Abana bakiri bato nk'iyo bari mu mashuri bakunda kungurana ibitekerezo bakaganira, ariko nanone barafashanya mu buryo ubwo ari bwo bwose, by'umwihariko abo bana biga baba bagomba kugirana ubucuti kugira ngo bakomeze kubana neza.

Kugira ngo umuntu agire ikintu ageraho aba agomba kwiga, ni yo mpamvu Igihugu kiba cyarashyizeho gahunda yo kwigisha abanyeshuri bakiri batoya, aho hagaragara intebe abanyeshuri bakiri batoya bicaraho mu gihe bagiye mu irerero.

Hari uburyo butandukanye mwarimu ashobora kwifashisha kugira ngo abanyeshuri bakurikire kandi bagire ubumenyi batahana. Bumwe muri bwo nk'abana batoya ni ukubicaza akabasobanurira bicaye ku mukeka cyangwa se ku masambi.

Abana bakiri batoya iyo bajyanywe ku ishuri abarimu babitaho, bakabaha ibikenewe byose kugira ngo imitekerereze yabo ibashe gukura bityo uko imyaka yabo igenda yigira hejuru na bo babashe kuba bagira ibintu batekereza bibateza imbere.

Abana bakiri batoya iyo bicaye ku meza baba bumva bishimye kandi iyo bicaye ku ntebe z'ababyeyi babo ni ukuvuga intebe z'abantu bakuru na bwo birabanezeza cyane. Abana bakiri batoya bakwiriye gutozwa ikinyabupfura hakiri kare bakigishwa uko bicara ku meza.

Abanyeshuri bari ku ishuri bagira igihe cyo kwidagadura, kandi ibyo bibagirira akamaro cyane kuko babona, uko ubushuti bwabo babwongera, kandi bigatuma bakomeza kwiga neza mu bufatanye.

Abana iyo bari ku ishuri baba bumva ari ahantu heza bari, ahantu hakwiriye kubafasha kugira ibintu bamenya kandi bishobora kubateza imbere, iyo umwana asabana n'abandi kugira ubumenyi biramworohera kandi akumva yishimiye ishuri.

Inshuro nyinshi mbere y'uko umuntu agera ku kigo cy'amashuri, abona icyapa kimurangira aho icyo kigo cy'amashuri giherereye bityo mu gihe agiye gutemmbere kuri icyo kigo, biramworohera kuko ahabona icyapa agahita amenya aho ikigo kiri n'izina ryacyo.

Hari ibitabo bifasha abanyeshuri kwiga, ibyo bitabo biba biri mu masomo atandukanye ariko biba bikwiriye gufatwa neza kuko umunyeshuri iyo abyigiyemo uyu munsi na mugenzi we aba azabyigiramo mu gihe kizaza.

Kwiga bituma umuntu yunguka ubumenyi. Gusa biravuna, kuko hari n'abarara amajoro menshi biga, bafata note kugira ngo bazabone ibyo basubiza mwarimu ndetse banibuka ibyo bize.

Abana bakiri batoya iyo bari kwigishwa amasomo ajyanye n'imibare, mwarimu aragenda akandika imibare runaka ku kibaho, hanyuma akabasobanurira inzira banyuramo bakora iyo mibare, bityo nabo bakaba bayikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abana bakiri batoya bashimishwa no gukina n'abandi cyanecyane mu gihe bari ku ishuri. Ibyo bituma ubucuti bwabo bwiyongera kandi bagakomeza kunga ubumwe ndetse abana bagira ubwoba bw'ibikoresho byabo, niyo mpamvu akenshi bakina babihetse mu migongo.

Abana bari mu mashuri baba bakwiye gukurikirana neza amasomo yabo kugira ngo badatsindwa. Nanone baba bakwiye guhabwa amasuzumabumenyi kugira ngo azabafashe gutsinda ibizamini bisoza, ni ukuvuga ibizamini bya Leta.

Isaha ni igikoresho cy'ingirakamaro cyane. By'umwihariko ku munyeshuri aba agomba kwigishwa kubara isaha kugira ngo ajye amenya aho igihe kigeze ndetse bimufashe no kuba yabwira ababyeyi be igihe bibaye ngombwa.

Abanyeshuri iyo bateraniye hamwe hari ibintu byinshi baba bahuriyeho. Akanyamuneza, ndetse baba bashimishwijwe no kubona ubucuti bwabo burushaho kwiyongera kandi urukundo rwabo rugakomeza kwiyongera.

Mu byumba by'amashuri haba harimo intebe, izo ntebe ziba zikozwe mu buryo bufasha umunyeshuri kwiga neza, akabona aho arambika amakayi ndetse akanicara, bityo kwandika bikamworohera.

Ahantu hari abanyeshuri bakiri batoya bahashyira ibimenyetso bigaragaza ko aho hari irerero. Abanyeshuri bakiri batoya bakunda gushyirwa mu nyubako zihariye zibafasha gusabana ndetse zikabarinda n'impanuka.

Ibigo by'amashuri cyane cyane amashuri abanza biba byubatse ku buryo bwimbitse budateje akajagari, ubwo buryo butuma abanyeshuri bisanzura bakabona aho gukinira kandi bakabasha kumva bameze neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se abanyeshuri bakiri batoya kugira ngo umuntu abasobanurire neza bagire ibyo bamenya barashushanya kandi ibyo bishushanyo bishobora kubafasha cyane nk'uko bishobora gutuma bagira ibyo bamenya byoroshye.

Abanyeshuri iyo bari ku ishuri bakenera igikoresho cy'ingirakamaro, ni ukuvuga ikibaho. Mwarimu ashobora kwifashisha ikibaho, abasobanurira amasomo arimo nk'imibare, mu gihe yandika forumile ku kibaho, hanyuma akabereka uko bakosora ibibazo bindi bikomeye.

Ibigo by'amashuri, inshuro nyinshi babyubatse ku buryo butandukanye n'izindi nyubako, kandi kugira ngo umuntu amenye izo nyubako biba byoroshye, kuko amashuri kuyatandukanya n'izindi nyubako ni ibintu byigaragaza.

Gusoma bifasha umuntu kunguka ubumenyi ndetse no kugira ibyo ageraho mu iterambere rye. Gusoma ni ingirakamaro cyane kuko bituma umuntu yunguka ibintu byinshi, ashobora kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ni yo mpamvu abantu bajya mu masomero atandukanye bagafata ibitabo bagasoma.

Abantu benshi bakunda kubona inyubako ziri ahantu munsi y'imikingo, bakibaza niba iyo mikingo itazagwira izo nzu. Gusa icyo navuga ni uko bakwiriye gushira ubwoba, kuko Leta iyo yemereye abaturage kubaka ahantu iba ibona hadateje akaga.

Inshuro nyinshi, inzego z'umutekano na zo zegera abanyeshuri zikabaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwabo kandi bakabafasha gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze babungabunge umutekano w'igihugu.

Abanyeshuri bakwiriye kwambara impuzankano kugira ngo bagaragare neza by'umwihariko nk'abanyeshuri bambara impuzankano y'umweru, baba bakwiriye kwitwararika bakirinda kwanduzanya mu gihe bahuriye hamwe.

Abanyeshuri baba bakwiriye kuganirizwa by'umwihariko ku buzima bwabo ndetse n'ubuzima bw'ishuri kugira ngo bakomeze kugira imyiteguro myiza ibizamini bisoza amashuri yabo, bityo bategure ejo heza habo.

Abanyeshuri ku ishuri baba bagomba gusobanurirwa ibintu byose. Yaba amasomo aboneka mu gitabo leta iba yarateganyije, ndetse n'ibindi bintu bashobora gukenera mu buzima, harimo nk'inama, abantu bakuru bakwiriye kubagira.

Ibigo by'amashuri bifitiye akamaro abaturage, kandi bifasha abaturage kubona uko barera abana babo, mu gihe umwana yagiye ku ishuri ababyeyi baba bakwiriye gukurikirana, bakareba ko yageze ku ishuri, kugira ngo ahabwe ubumenyi bukwiriye.

Abanyeshuri iyo bari hamwe bari kwifotoza biba bishimishije cyane. Kureba abanyeshuri bambaye impuzankano bose bambaye kimwe bishobora kubagirira akamaro kandi bishobora gutuma bagira ibintu bageraho mu buzima bwabo bityo bikabateza imbere.

Abantu bahinga indabo ahantu hatandukanye kugira ngo zibafashe mu gutuma ingo zabo zikomeza gusa neza, mu gihe umuntu ahinze indabo nazo aba akwiriye kuzigirira isuku, kugira ngo zikomeze kugaragara neza.

Inyubako ifite isuku igaragara neza. Abantu benshi bakunda kugira isuku inyubako zabo, kandi ibyo bibafasha kugira iterambere ryihuse. Ikigo cy'amashuri cyangwa se izindi nyubako zubatse ku murongo, ni imwe mu nyubako ziba zigaragaza ko ari iza Leta.

Abarimu bahagarara imbere y'abanyeshuri bifitiye icyizere bakabasobanurira amasomo yabo, bakabafasha gusobanukirwa ibintu byimbitse bishobora kubagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi iyo umunyeshuri akurikiye neza bimugirira akamaro.

Abanyeshuri bajya ku ishuri buri munsi banyuze mu mihanda, mu gihe abanyeshuri bagiye ku ishuri baba bagomba kwitonda kugira ngo batagongwa by'umwihariko bakanyura mu nzira igenewe abanyamaguru kugira ngo badateza akavuyo mu muhanda.

Abantu benshi babona ikibuga bakibaza uko kiba cyarabayeho, akenshi ahantu haba ikibuga, habanza kuba ahantu h'imbuga ngari abantu bashobora gutemberera, bityo aho hantu iyo hameze neza, bashobora kuhatera ibyatsi hakavamo ikibuga kizima.

Inyubako nyinshi ziba zifite isuku kandi abantu bazubatse bashimishwa no kubona zifite isuku, iyo inyubako ifite isuku mu gihe umuntu ashaka kugurisha akubona umukiriya biramworohera kandi rwose biramushimisha.

Abantu benshi bagira akabati babikamo inkweto, kubika inkweto mu kabati bituma izo nkweto zitandura kandi abantu bagira isuku ni bo bonyine bashobora gukoresha akabati, bakakabikamo ibintu byabo kugira bitandura.

Abantu iyo bari mu mahugurwa baba bagomba gukurikira, bakirinda kurangara kugira ngo hatagira ikintu kibacika bityo babashe gukoresha ibyo bizemo aho ngaho na bo bafasha abandi bantu batitabiriye amahugurwa.

Abantu benshi bakunda kubaka inyubako zihenze, ariko by'umwihariko kwita ku isuku y'inyubako umuntu yubatse nibyo by'iningenzi cyane, kuko bituma abantu bamuvuga neza aho atuye, bityo rero mu gihe umuntu yubatse inzu agomba kwita no ku isuku yayo.

Icyumba cyiza gifite isuku, kiriho matera nziza ku buryo umuntu yaharyama akaruhuka, mu gihe umuntu agiye kuryama aho hantu aba agomba kubanza gukaraba neza kugira ngo hatanduza ayo mashuka.

Ibigo by'amashuri byinshi, biba bifite isuku ndetse n'ibyumba bihagije, ku buryo umunyeshuri ajyamo akumva aranyuzwe ndetse yisanzuye. Ibigo by'amashuri bigomba kuba bitandukanye na Gereza kuko byo bigomba guha abanyeshuri ubwisanzure, n'uburenganzira bwabo bukubahirizwa.

Abanyeshuri baba bakwiriye kwigishwa ibintu bijyanye n'ubuzima bwabo, bagahabwa amahugurwa, niyo mpamvu rimwe na rimwe babahuriza hamwe, bakagira inyigisho babaha ku bijyanye n'uko bakitwara, ndetse bakabigisha n'ibijyanye n'ubuzima bwabo.

Abantu bakora ahantu hafite isuku baba bashimishije kubareba, gusa kandi abantu bashobora gukora mu buryo butandukanye ndetse bakicara no mu buryo butandukanye mu gihe bari mu kazi, kandi byose bigirira akamaro ababareba ndetse na bo bakishima.

Ibigo by'amashuri biba bifite inyubako zihariye kandi izo nyubako ziba zimeze neza ndetse ziba zifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri b'ubwoko butandukanye. Ziba zifite kwakira abanyeshuri bamugaye ndetse n'abandi banyeshuri.

Kwitegereza cyane bishobora gutuma umuntu abona ibintu byinshi, umuntu iyo agiye kwa muganga ashobora kuhabona imiti y'ubwoko butandukanye, usibye n'ibyo hari n'indi miti igaragara mu maforumasi hirya no hino mu gihugu, kandi abantu bayikoresha ibagirira umumaro cyane.

Mu mashuri menshi ya Kaminuza uhasanga porojegiteri, ifasha abanyeshuri mu myigire yabo, iyo umwarimu yigisha ashyira ibintu aha kuri mashini hanyuma yifashishije iki gikoresho cya projegiteri abanyeshuri bakabibona imbere.

Abantu benshi bakunda kwiherera bakitekerezaho kugira ngo babashe gufata imyanzuro ikomeye mu buzima, nyamara kandi kwitekerezaho bifasha umuntu kugira ibintu bikomeye ageraho, gusa inyubako ifite isuku ishobora gufashamo umuntu.

Abakinnyi b'umupira baba bagomba guhabwa amabwiriza mbere yuko bajya mu kibuga. By'umwihariko baba bakwiriye kwambara imyenda igaragaza ko bagiye mu kibuga, ikabatandukanya n'abandi baturage basanzwe kuko ibafasha mu myitozo ndetse no gukora ibikorwa bishobora gutuma ingingo zabo zirambuka.

Abantu iyo bahuriye hamwe barasabana. Hari ahantu henshi ukunda kubona abantu. Gusa ikigaragara ni uko iyo bafite amahoro buri wese aba yita ku nyungu za mugenzi we, kandi afite akanyamuneza.

Ahantu habikwa imiti yaba imiti ihabwa abantu ndetse n'imiti y'amatungo, hagomba kugirirwa isuku ihagije kugira ngo inyamaswa cyangwa se abo bantu banywa iyo miti batangirika.

Inyubako nyinshi kuzirebaba biba bishimishije, by'umwihariko inyubako ya za Kaminuza akenshi aba ari inyubako ya etage, ku buryo umunyeshuri wese yumva afite intumbero yo kuzayigamo.

Abantu bajya mu mahugurwa atandukanye kugira ngo bagire ibintu bigishwa kandi bibagirire akamaro. Mu gihe umuntu yagiye mu mahugurwa aba agomba gukurikira yitonze kugira ngo akomeze kungukirwa n'ibyo arimo kwigishwa kandi bizamufashe.

Kugira ngo umuntu agire ibintu ageraho aba agomba gukora cyane. Niyo mpamvu hari amashuri aba yarashinzwe kugira ngo yigishe imyuga harimo n'ubudozi bityo muri ayo mashuri hagashyirwamo ibikoresho bitandukanye birimo imashini zibafasha kudoda.

Ahantu hari igitanda cyiza kigaragara neza nk'igifite isuku, abantu barahahurira bakaryama. Akenshi ibyo bitanda bikunda kuba muri hoteri zitandukanye kandi abantu bafite amahoteri baba bakwiriye kubigirira isuku kuko baba bafite abakozi babishinzwe kandi bikaba bituma binjiza amafaranga menshi.

Abanyeshuri inshuro nyinshi bajyanwa mu byumba birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bige kubikoresha. Mu gihe umunyeshuri yajyanywe aho hantu aba agomba kwitonda kugira ngo hatagira ibintu yangiza.

Mu byumba byinshi usangamo intebe z'amoko atandukanye, izo ntebe ziba zifite uburyo zitondetsemo kuri gahunda, kandi mu gihe abantu bagiye gukoreramo amahugurwa buri wese aba yicaye mu ntebe ye akumva atuje.

Abaganga bakora ku bitaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu baba bafite ibikoresho byihariye. Abaganga aba ari inararibonye mu kuvura abantu ndetse kandi mbere yo kuvura umurwayi baba barabanje kwiga uko bavura uwo murwayi.

Abanyeshuri bashaka kwiga kaminuza hari ahantu bashobora kwiga hatandukanye kandi aho hantu haba hari ibyapa umuntu bimurangira aho ashobora kuba yabona ishuri bitewe n'ibyo yize.

Mu gihe mwarimu ari kwigisha, abanyeshuri baba bakwiye gukurikira bakirinda kurangara, ndetse bakabaza aho badasobanukiwe. Iyo umunyeshuri atabajije ibibazo, ntashobora gusobanukirwa, kandi ibyo bishobora gutuma atsindwa.

Abantu bafite imodoka, baba bakwiriye kuzishyira ahantu hizewe zidashobora kwangirika gusa nanone igihugu kiba cyarakoze uko gishoboye kose, kugira ngo haboneke imihanda ihagije izo modoka zigomba kunyuramo.

Ishuri ndetse n'abandi bantu bari mu mahugurwa, baba bakwiye gukurikira neza ibyo bigishijwe, kugira ngo bakomeze kugubwa neza. Umunyeshuri ukurikiye neza cyangwa se umuntu uri mu mahugurwa, iyo akurikiye neza bimugirira akamaro kandi ibyo yize agakomeza kubizirikana.

Ahantu iyo hafite isuku nta muntu utakishimira kuhaba. Niyo mpamvu inyubako nyinshi cyane usanga icyo bitaho ari isuku yaho. Yaba inyubako ndetse n'inyubako ngufi, abantu baba bakwiriye kwita ku isuku yazo.

Ubusitani bumeze neza kuburuhukiramo biba ari byiza, gusa abantu benshi hari igihe bubaka cyangwa se bahinga ubusitani kugira ngo abantu baze babwifotorezemo, iyo umuntu agiye kwifotoreza muri ubwo busitani hari amafaranga yishyura.

Inshuro nyinshi iyo abantu bagiye mu mahugurwa usanga bafite icupa ririmo amazi, ayo mazi abafasha kugira ngo batagira inyota cyangwa se akabarinda kurambirwa mu gihe bakurikiye umuyobozi arimo ababwira ibyo bagomba gukurikiza.

Gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, bifite akamaro cyane, kuko bituma imyanda igabanuka ku mubiri w'umuntu, kandi bikarinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda. Ubwo rero hari kandagirukarabe za kizungu, zishobora kubafasha muri icyo gikorwa.

Mu burezi muzasanga abanyeshuri biga mu bigo byateye imbere, bafite ibikoresho bihambaye ugereranyije no mu bigo bitaratera imbere. Aho uhasanga ibikoresho birimo imashini ndetse n'ibindi bikoresho bishobora kubafasha mu gihe bari kwiga bityo amasomo yabo akagenda neza.